Igishushanyo kiza cyane, abana bo muri materineri bigiraho. Kiriho inyamaswa zigiye zitandukanye. Abana bagikoresha babereka inyamaswa babasobanurira n'amazina yazo bakabimenya.

Ifoto iriho ibikoresho bishushanyije bifasha abana bo muri materineri kwiga, hariho indobo, ikiyiko n'utundi dupupe tw'udusimba runaka dufasha abana bo muri materineri kwiga.

Agakapu ko mu mugongo k'abana batoya batwaramo ibikoresho by'ishuri; gasa pinki gashushanyijeho utunyugunyugu twiza tw'amabara menshi, hari n'utundi dushushanyo runaka.

Agapupe gashushanyije neza cyane mu buryo bwiza, gafasha abana biga mu mashuri y'incuke kwiga amabara, karimo amabara atandukanye, karimo utudizayini twinshi dutandukanye twabafasha kumenya ibintu bimwe na bimwe.

Ifoto y'ibikoresho bitatu byo mu rugo harimo isuka, harimo icyuma, harimo n'igikombe, biragaragara ko ari ibyo abanyeshuri bakoresha bakora imyitozo bavuga icyo bayimarisha bavuga n'izina ry'icyo gikoresho.

Ifoto iriho ibishushanyo byinshi bifasha abana bo muri purayimari kwiga imibare, harimo mashini harimo ibinyampande, harimo kompa, harimo amakereyo, harimo n'ibindi bishushanyo bakoresha biga imibare yo muri pirimeri.

Igishushanyo kiriho ibikoresho bitandukanye gifasha abana biga muri purayimari kumenya ibikoresho harimo isuka, igitebo, umutiba, igitiyo, inanjoro n'ibindi byinshi bitandukanye byifashishwa mu rugo.

Ahantu hari abantu bane, barimo ababyeyi babiri n'abana babiri, bigaragara ko bari kubahereza ibikoresho by'isuku ku ishuri, bahetse ibikapu by'amashuri.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bamwe bari gusoma mu makaye yabo basubira mu byo bize, abandi banyeshuri, barimo barasakuza, bamwe bahagaze ku ntebe, ntago bashaka kwiga, bari kuderananja abandi bana bari kwiga.

Ahantu ku kigo cy'amashuri runaka cyubatse neza mu buryo bwiza hari isuku. Bigaragara ko hari abarezi n'ababyeyi baje gufata abana babo ku ishuri cyangwa babatwaye ku ishuri mugitondo.

Ni mu ishuri abanyeshuri ntibaratangira kwiga, bamwe bari kwinjira, abandi bari gusohoka, abandi barahagaze, abandi bicaye hejuru y'intebe, umwarimu ntabwo arageramo ngo amasomo yabo atangire.

Abanyeshuri bari hamwe, batonze imirongo neza cyane, bamwe bambaye umweru n'amapantaro ajya ku ivu n'amajipo y'ivu, abandi bari hirya cyane bambaye umuhondo, birasa nkaho bari kuri rasamburema bari gufata amabwiriza.

Ahantu hari abanyeshuri bicaye muri sare nini cyane hari abayobozi imbere yabo bari kubabwira amabwiriza atandukanye cyangwa bari kubaremesha inama ijyanye n'ishuri.

Abanyeshuri bari muri sare runaka bari kumwe n'abayobozi babo n'abarimu babo babigisha bari mu nama y'ishuri, bicaye neza batuje ku murongo bafite ikinyabupfura.

Ifoto iriho abana babiri b'abakobwa bari gusoma igitabo, hariho izina ry'ikigo bigamo bigaragara ko ari icyapa cyamamariza ikigo cyabo, kigaragaza ko inforome bahiga uko zisa n'ibindi.

Ni mu ishuri abanyeshuri bari kwiga, umwarimu ahagaze imbere yabo hari porojegiteri bari gukoresha, abanyeshuri bicaye mu magurupe bari kwiga bakoresheje amagurupe banakurikira umwarimu.

Abanyeshuri ba segonderi bahagaze ahantu runaka, bamwe bahagaze abandi baciye bugufi imbere yabo, bigaragara ko bari gufata amabwiriza runaka.

Ahantu hari umuhanda harimo umuntu umwe uri kugenda azamuka, iruhande rwe mu kuboko kw'ibumoso hari jaride nziza, hirya yaho hari inzu igeretse, ruguru y'iwe imbere hari izindi nzu bigaragara ko hari n'umunara.